Uyu ni umwana usa nk'aho akiri mutoya, yambaye agapira k'umuhondo n'ikabutura y'umukara, ari kuvoma amazi ajya mu ijerekani y'umweru, ni ibintu bigaragara neza cyane.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bicaye mu kizeru, higanjemo abagore n'abagabo, bose bafite impapuro n'amakaramu bari kwandika, hirya gato hateretse agacupa k'amazi yo kunywa.

Uyu ni umwana usa nkaho ukiri mutoya, ukandagiye mu mazi menshi ari kuvoma mu njerekani y'umuhondo, hirya gato hari ibyatsi birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bari aho ngaho bose.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe, bafite injerekani z'umuhondo bazishyize mu mazi menshi, higanjemo umukuru n'akandi gatoya, bakikijwe n'ibyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, higanjemo abagabo bambaye amakote y'imikara n'abandi b'impuzankano z'ubururu, hari ibyo bafite mu biganza byabo, urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Aba ni abantu batatu bari ahantu hamwe, barakeye cyane bicaye ku murongo kandi barishimye bari guseka ubarebye ku maso habo, higanjemo abagore babiri n'umugabo umwe inyuma kandi hari inzu isize amabara y'umweru.

Uyu ni umwana ukiri mutoya nk'uko bigaragara ku maso he, afite ibyishimo ari guseka yambaye agakanzu k'umutuku, arimo aradaha amazi ari kuyanywa.

Aba ni abantu benshi, bari ahantu hamwe, baracyeye cyane, higanjemo abagabo ndetse n'abana bakiri batoya, abahungu n'abakobwa hari ibyo bafite by'ibyapa mu biganza byabo.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe, bisa nk'aho bari mu nama mu busitani bw'icyatsi, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, urabona ko ari ibintu bibereye ijisho ry'ubireba uwo ariwe wese.

Uyu ni umwana usa nkaho akiri muto afite ibyishimo nkuko bigaragara, ari guseka amenyo yagaragaye, yambaye agakanzu k'ibitenge afite amazi mu biganza bye.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, imbere y'inzu y'ibitaro, baracyeye cyane, bahagaze ku murongo, higanjemo abagore n'abagabo, urabona ko ari ibintu byiza cyane bibereye ijisho ry'u bireba.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe barimo bakora igikorwa cyo kuvoma, higanjemwo umugore usa nk'ukuze ndetse n'abana batoya, hari amabase afite amabara agiye atandukanye nk'umutuku.

Uyu ni umwana usa nk'aho akiri mutoya, yambaye ikanzu irimo amabara menshi atandukanye yaba umutuku, ubururu n'umuhondo, imbere ye hari iriba ari kunywa amazi n'amajerekani, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe, bicaye ku ntebe z'imikara ku murongo, nk'uko bigaragara bafite ibyishimo ku maso habo bari guseka, higanjemo abagore gusa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, higanjemo abakuze, abagore ndetse n'abagabo, mu ihema ry'umweru, imbere y'abana batoya bambaye impuzankano, abakobwa n'abahungu.

Aba ni abana bagera kuri barindwi, bari ahantu hamwe bafite ibyishimo, umwe muri bo ari kunywa amazi akoresheje ibiganza bye, bakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umweru. Bicaye ku murongo bisa nkaho bari mu nama. Higanjemo abagabo gusa imbere yabo hateretse amazi yo kunywa n'impapuro nyinshi.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umuhondo n'umweru, umwe muri bo arahagaze yambaye imyenda y'ubururu, undi aricaye ni umugore, imbere ye hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu bagera muri bane, babiri muri bo bambaye impuzankano y'umuhondo n'umweru, bipfutse mu maso, bakikijwe n'ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe baracyeye cyane, higanjemo abagore n'abagabo bicaye ku murongo mu nzu isize amabara y'umweru impande zose ndetse no hejuru.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe baracyeye cyane, hari abahagaze ndetse n'abicaye, bambaye impuzankano z'umweru ndetse n'umukara, higanjemo abagabo n'umukobwa umwe.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe baracyeye cyane bafite ibyishimo ubarebye ku maso yabo bari guseka, higanjemo abagore bakuze ndetse n'abagabo hari n'abana batoya bambaye impuzankano z'umuhondo z'ishuri.

Aba ni benshi bari ahantu hamwe, bisa nkaho bari kuganira, higanjemo abagore n'abagabo bahagaze bari kugira icyo babwira abo bicaye, hari n'utwana dutoya duteru uwe.

Aba ni abantu bagera kuri batandatu bari ahantu hamwe, higanjemo umugabo usa nk'ukuze ndetse n'abana bakiri batoya bari kuvoma amajerekani asize amabara y'umuhondo n'umweru.

Uyu ni umwana usa nkaho akiri mutoya, yambaye ikanzu y'ibitenge, arahagaze, imisatsi ye iramanuye, afite igicupa cy'amazi mu biganza bye, bisa nk'aho ari kuvoma.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe, umwe muri bo ari kuvoma amazi atemba mu njerekani y'umuhondo, bakikijwe n'ibyatsi byinshi bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bari aho bose.

Aba ni abantu bagera kuri bane bari ahantu hamwe, umudamu umwe uri koza umwana mu ibase y'umutuku, barishimye cyane bafite ibyishimo, abandi bari kuvoma urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, higanjemo abakuze yaba abagore bicaye bateruye abana ndetse n'abagabo bari kubaha ibyo kunywa, urabona ko ari ibintu byiza kandi bibereye ijisho.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bisa nk'aho bari mu nama. Bicaye ku murongo, ku ntebe z'imikara. Higanjemo abagore n'abagabo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa na za murandasi.

Aba ni abantu bagera kuri batanu, bari ahantu hamwe, bisa nk'aho baje kuvoma, higanjemo abagore gusa n'umukobwa umwe, imbere yabo hateretse amajerekani agiye atandukanye, yaba ay'umuhondo n'umweru.

Uyu ni umwana mutoya nk'uko bigaragara afite ibyishimo ku maso he ari guseka, yambaye ishati y'umutuku n'akajipo, ari koga intoki imbere y'amazi ajya mu ndobo y'umukara.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze, afite ibyishimo byinshi nk'uko bigaragara ku maso he ari guseka amenyo akagaragara, yambaye ishati y'ubururu ipantaro y'umukara arimo yoga intoki.

Aba ni abantu bagera muri batanu bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umweru, bicaye ku murongo ku ntebe z'imikara, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, higanjemo abagabo batatu n'abagore babiri.

Uyu ni umwana usa nkaho akiri mutoya, yambaye ikanzu y'ikigina, afite ibyishimo ku maso yiwe, ari guseka, ari koga mu ndobo isize amabara y'icyatsi ndetse n'ibase.

Aba ni abantu bagera kuri batanu, higanjemo abagore bane n'umugabo umwe, bari kuvoma amazi mu ndobo zifite amabara agiye atandukanye, yaba iy'ubururu ndetse n'umutuku.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bari ahantu hamwe baripfutse impande zose, bakikijwe n'indobo z'amabara atandukanye ndetse n'ibiti birebire by'icyatsi, bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi, bari ahantu hamwe, baracyeye cyane, bambaye impuzankano z'ubururu uko ari bose, higanjemo abagore n'abagabo, bahagaze mu bwatsi butoshye, inyuma hari ihema ry'umweru.

Aba ni abantu bagera muri batatu bari ahantu hamwe, babiri muri bo bari kuvoma amazi mu majerekani y'umuhondo, undi kandi arahagaze abaganiriza, bakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe biganjemo abakuze nk'abagabo ndetse n'abana bakiri batoya, bambaye impuzankano z'umweru, barishimye cyane, ha ibyo bafite mu biganza byabo nk'impapuro.

Aba ni abana benshi bari ahantu hamwe, basa nk'abatonze umurongo bafata amazi yo kunywa, bambaye impuzankano z'ubururu n'umweru, higanje ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Abana ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bisa nkaho bari mu nama, bicaye ku murongo ku ntebe z'imikara mu nzu isize amabara y'umuhondo, higanjemo abagore n'abagabo, urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bari ahantu hamwe higanjemo abagabo gusa, bambaye imyenda ikeye y'impuzankano y'ubururu n'umweru urabona ko ari ibintu byiza cyane, hari utwo bafite mu biganza byabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe higanjemo abakuze, abagore n'abagabo ndetse n'abana batoya, abakobwa n'abahungu, baricaye mu nzu isize amabara y'umuhondo, bambaye impuzankano z'ubururu.

Aba abantu bagera kuri batanu bari ahantu hamwe, bafite ibyishimo nk'uko bigaragara, barakeye ko maso, bambaye amatabuririya y'umweru ndetse n'ubururu, bari mu ihema ryiza, higanjemo umukobwa n'abahungu.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe barakeye cyane, nkuko bigaragara bahagaze ku murongo mu nzu isize amabara y'umuhondo yiganjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bahagaze mu busitani bwiza bw'icyatsi ku murongo higanjemo abagore n'abagabo, inyuma yabo hari icyapa cy'ubururu ndetse n'umweru.

Abana ni abana babiri bari ahantu hamwe urabona ko banezerewe cyane, bafite ibyishimo ku maso habo bari guseka, imbere kandi hari iriba riri guturukamo amazi barimo boga intoki.

Aba ni abantu bagera muri batatu bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umweru, bisa nkaho ari abaganga bari kwita ku murwayi uryamye ku gitanda kiri aho ngaho, ni ibintu bigaragara neza cyane.

Uyu ni umudamu usa nk'ukuze yambaye ibitenge yaba ku mutwe, yikoreye indobo y'umutuku hasi ateruye iy'umuhondo akikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bisa nkaho bari mu nama imbere yabo hateretse uducupa twamazi bicaye ku murongo ku ntebe z'imikara, higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe baracyeye cyane, bambaye impuzankano z'umweru ndetse n'ubururu, bafite icyapa kinini mu ntoki zabo cyanditseho "umunsi mpuzamahanga wo kurwanya Kanseri".

Aba abana abantu benshi bari ahantu hamwe nk'uko bigaragara basa nk'abaje kuvoma mu bikoresho bigiye bitandukanye, amajerekani y'icyatsi n'umuhondo, higanjemo abana n'abantu bakuru.

Aba ni abana basa nk'aho bakiri bato, bafite ibyishimo ku maso habo, imbere kandi hateretse injerekani z'umuhondo, bari kuvoma, hirya gato hari ibyatsi byinshi n'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu bagera kuri batanu, bari ahantu hamwe bafite ibyishimo nk'uko bigaragara ku maso yabo, bari guseka barakeye cyane, bambaye impuzankano z'ubururu n'ingofero z'umweru.

Uyu ni umwana usa nk'aho akiri mutoya, afite ibyishimo nkuko bigaragara mu maso ye ari guseka, akaba ateruye uducupa tubiri turimo amazi yo kunywa, yambaye ishati y'umuhondo n'ikabutura y'ubururu.

Aba ni abantu bagera kuri batanu bari ahantu hamwe ku ivomero ry'amazi, huzuye amajerekani agiye atandukanye yaba ay'umweru ndetse n'umuhondo, hirya gato hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Abana ni abantu bagera kuri bane bari ahantu hamwe, higanjemo umugore umwe usa nk'ukuze n'abana bakiri batoya batatu, bari kuvoma amazi. Akikijwe n'ibiti n'ubusitani butanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe, umwe muri bo arahagaze, ni umugabo wambaye ipantaro y'ubururu, inkweto zijya gusa ikigina, hirya gato hari umwana uri kuvoma uteruye indobo y'umuhondo mu biganza bye.

Aya ni amazi menshi cyane yakusanyirijwe ahantu hamwe meza, akikijwe n'ibiti birebire by'icyatsi bitoshye bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bagenda aho ngaho, abo ari bo bose.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bari ahantu hamwe baracyeye cyane, biganjemo abagore bari gusuka amazi mu biganza byabo bakayanywa, bakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Abana ni abana benshi bari ahantu hamwe, bafite ibyishimo bikomeye, bari guseka ubarebye ku maso habo, imbere hateretse ikivamo amazi, hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi bitoshye, bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Abana ni abantu benshi bari ahantu hamwe baracyeye cyane bari guseka higanjemo abagore, umwana, n'umusore ukiri mutoya. Imbere yabo hari inzu isize amabara y'umuhondo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, barahagaze, imbere yabo hari indabo zitandukanye z'umuhondo zitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu bagera kuri bane bambaye impuzankano z'umweru, higanjemo abagore bakuze ndetse n'abatoya, imbere yabo hateretse amakayi n'ibitabo bitandukanye bari kwandikamo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bahagaze ku murongo, urabona ko bakeye cyane ubarebye ku maso yabo, higanjemo abagore ndetse n'abagabo. Bari mu nzu isize amabara y'umuhondo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, hari abahagaze n'abicaye, higanjemo abagore n'abagabo, abasaza ndetse n'abana, urabona ko bisa nk'aho baje kwa muganga kwivuza.

Aba ni abantu batatu bari ahantu hamwe n'akana gatoya, karyamye kitabwaho n'abaganga babiri, bambaye impuzankano z'umweru, ni ibintu bigaragara neza cyane, bari mu nzu isize amabara y'ubururu.

Uyu ni umugore cyangwa se umukobwa ubona afite ibyishimo ari guseka umurebye ku maso he, imbere kandi hateretse injerekani y'umuhondo iri kujyamo amazi, akikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze yambaye ishati y'imirongo, ipantaro y'umukara, afashe ku njerekani y'umuhondo ari guseka cyane afite ibyishimo amenyo yayagaragaje, hirya gato hari ibyatsi bitanga umuyaga.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe biganjemo umugore usa nk'ukuze ndetse n'abana batoya, yaba abakobwa n'abahungu bose bari kuvoma mu mabase y'umutuku.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bari ahantu hamwe, higanjemo abagore, gusa basa nk'aho bari kuvoma mu ndobo y'icyatsi, inyuma yabo hari igiti kirekire, gitoshye, gitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, huzuyemo urubyiruko yaba abana batoya, abahungu n'abakobwa, ndetse n'abagore n'abagabo, bakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umugore cyangwa se umukobwa, ubona usa nk'ukuze, yambaye igitenge n'agapira kavanzemo amabara y'umweru n'umukara, afite ibyishimo nk'uko bigaragara ku maso ye, ari guseka yoga n'intoki.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bisa nk'aho baje kuvoma mu ndobo ndetse n'amajerekani by'umuhondo, higanjemo abakobwa n'abahungu n'abana bakiri batoya, imbere yabo hari iriba rimena amazi mu buryo butatu.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, barakeye cyane, mu ihema risize amabara y'umweru, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, yaba urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu, urabona ko ari ibintu byiza cyane bibereye ijisho.

Aba ni abantu bagera muri batatu bari ahantu hamwe, higanjemo umugabo wambaye itaburiya y'umweru isa nkaho ari umuganga, ndetse n'umugore uteruye akana gatoya.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bicaye ku murongo, bisa nk'aho bari mu nama, bambaye impuzankano z'ubururu, higanjemo abagore, n'abagabo, bari munzu isize amabara y'umweru.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bicaye mu byatsi, bakaba bakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi, higanjemo abagore bakuze ndetse n'abagabo.

Aba ni abantu bagera kuri bane bari ahantu hamwe, higanjemo abagabo batatu ndetse n'umugore umwe, hari abicaye bari kureba ibintu muri mudasobwa iteretse ku meza y'umweru.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu ihema risize amabara y'umweru higanjemo abagore bakuze ndetse n'abagabo, hari n'abana bakiri batoya bari kuganira bambaye impuzankano.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, higanjemo abakuze, abagore ndetse n'abagabo, hari n'utwana dutoya n'umunzani uriho agafuka k'ubururu, bari mu nzu isize amabara y'umuhondo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, mu nzu yuzuyemo abambaye impuzankano z'ubururu, higanjemo abagore n'abagabo, bisa nkaho ari abaganga kuko hari abo bari gutera inshinge bari kubavura.

Aba ni abantu bagera kuri babiri, bari ahantu hamwe, barakeye cyane, higanjemo umugore wambaye ikanzu y'umweru irimo n'indabo z'icyatsi n'umutuku, ni ibintu bigaragara neza cyane bibereye ijisho.

Iyi ni inzu y'ibitaro, yuzuyemo abaganga bagiye batandukanye bambaye impuzankano z'icyatsi isize amabara y'umweru, harimo kandi ibikoresho byifashishwa mu kuvura abantu mu buryo bwa rusange bw'ikoranabuhanga.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bicaye ku murongo ku ntebe z'imikara bisa nk'aho bari mu nama, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa bari mu nzu isize amabara y'umweru, higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu bagera kuri barindwi, bari ahantu hamwe, baracyeye cyane, bamwe muri bo bambaye impuzankano z'ubururu, higanjemo urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu, bafite ibyishimo nk'uko bigaragara ku maso yabo bari guseka.

Uyu ni umumukobwa usa nk'aho akiri muto, yambaye ikanzu y'ubururu, irimo n'umweru, ari koga intoki n'amazi meza, akikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umwana w'umuhungu usa nk'aho akiri mutoya, ari kuvomera amazi mu biganza bye arishimye cyane, yambaye agashati k'icyatsi, imbere ye hari indobo y'ubururu hirya gato ni ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe baracyeye cyane bisa nkaho bari mu nama, bicaye ku murongo ku ntebe z'imituku bambaye impuzankano zigiye zitandukanye yaba iz'umweru n'izicyatsi, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe baratuje cyane kandi barakeye, bicaye ku murongo ku ntebe z'imikara mun nzu isize amabara y'umuhondo, higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu batatu bari ahantu hamwe umwe muri bo asa nk'umuganga kubera ko yambaye itaburiya y'umweru, ari kwita ku mwana ukiri mutoya uteruwe n'umugore w'ibitenge n'agatambaro mu mutwe.

Aba ni abantu bagera kuri batandatu bari ahantu hamwe bafite ibyishimo nk'uko bigaragara, bari kunywa amazi mu bikombe bitandukanye, bambaye impuzankano z'umukara n'amakanzu y'umweru.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, barakeye cyane, bicaye ku murongo, ku ntebe z'umweru, bisa nk'aho bari mu nama. Higanjemo abagore n'abagabo, urabona ko ari ibintu byiza cyane, n'utwana bateruye.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, higanjemo abakuru b'abagabo babiri ndetse n'abana batoya bagera kuri batanu, bari kuvoma amazi, akikijwe n'imiti birebire n'ibyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe, barakeye cyane, umwe yambaye agapfukamunwa, ishati y'umweru, ipantaro y'ubururu, ari kuganira n'umusore, hirya gato inyuma hari icyapa cyanditseho: SIDA iracyahari duhaguruke tuyirwanye.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, abana batoya, higanjemo abagore bakuze ndetse n'abagabo, impande yabo hari ihema rirerire ry'umweru, bisa nk'aho baje kwivuza.

Aba ni abantu batatu bari ahantu hamwe huzuye amajerekani menshi yaba ay'umuhondo n'ay'umweru biganjemo abagore babiri n'umukobwa umwe bakikijwe n'ibitoki n'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu bagera kuri bane bicaye ahantu hamwe ku ntebe z'umweru baracyeye cyane, higanjemo abagore batatu n'umugabo umwe, bisa nkaho bari kuganira mu nzu isize amabara y'ubururu.

Uyu ni umwana usa nkaho akiri mutoya imisatsi ye iramanuye, afite ibyishimo nk'uko bigaragara ku maso he, ari guseka amenyo yagaragaye, yambaye ishati y'umweru n'ijipo y'umukara, yicaye ku ntebe z'imihondo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bicaye ku murongo uzengurutse, bisa nkaho bari mu nama mu nzu isize amabara y'umweru higanjemo abagore n'abagabo, iruhande rwabo hataretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe, higanjemo umugore ndetse n'umugabo, imbere yabo hari meza y'umuhondo iteretseho agacupa k'amazi yo kunywa, ni ibintu bibereye ijisho ry'ubireba, bari kuganira.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, imbere yabo hari imeza y'umukara, iriho indabo n'ibipirizo bitandukanye, bari mu nzu isize amabara y'umweru, higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe biganjemo abagore bicaye bahetse n'abana ndetse n'umugabo umwe mu nzu isize amabara y'umuhondo bisa nk'aho bari kubigisha.

Aba n'abantu benshi bari ahantu hamwe barakeye cyane bafite ibyishimo nkuko bigaragara ku maso habo, bari guseka bari munzu isize amabara y'umuhondo n'umweru, hejuru higanjemo abagore n'abagabo.

Uyu ni umukobwa usa nk'aho akiri mutoya, afite ibyishimo bikomeye nk'uko bigaragara ku maso ye, ari guseka amenyo akagaragara, yambaye agashati k'umutuku n'umukara, agasatsi ke karasokoje.

Iyi ni inzu nziza y'ibitaro, igizwe n'amabara atandukanye, harimo nk'umweru n'ubururu bwijimye, ikikijwe n'ubusitani bwiza n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze, ari ahantu hamwe, arakeye cyane, arahagaze, yambaye ikote ry'umukara, n'ipantaro, nuko imbere ye hari indabo, arunamye nk'uri ku rwibutso.

Uyu ni umugore ubona usa nk'ukuze, ufite ibyishimo ku maso he kubera ko ari guseka, afite isuka mu biganza kandi yikoreye igitebo cyuzuyemo ibyatsi bigiye bitandukanye.

Uyu ni umugore ubona usa nk'ukuze, afite ibyishimo ku maso he nk'uko bigaragara ari guseka amenyo akagaragara, yambaye ikanzu y'ubururu n'akajere k'umuhondo, hari ibyo arimo agurisha byo kurya.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, baracyeye cyane, bahagaze ku murongo higanjemo abakuze abagore n'abagabo ndetse n'urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu, bari mu nzu isize amabara y'umuhondo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu gikorwa cyo gutera ibiti bitoshye cyane by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi, kubari aho ngaho bose bambaye impuzankano z'ubururu, urabona ko ari ibintu bibereye ijisho.

Uyu ni umugore ubona usa nk'ukuze, imisatsi ye iramanuye, arakeye cyane afite ibyishimo amurebye ku maso he ari guseka, yambaye amadarubindi, ikanzu y'umuhondo irimo n'ubururu, hari ibyo afite mu kiganza cye.

Aba ni abana benshi bari ahantu hamwe bafite ibyishimo nkuko bigaragara amenyo urayabona, higanjemo abakobwa n'abahungu bari mu nzu isize amabara y'umweru.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe, higanjemo abari n'abategarugo, ri bari kuganira, urabona ko ari ibintu byiza cyane, umwe muri bo yambaye umupira w'umutuku, undi ni imikara gusa.

Aba ni abantu bagera mu icumi bari ahantu hamwe, bamwe muri bo bambaye impuzankano z'umweru n'umukara, ibyo bateruye mu biganza byabo higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi, bari ahantu hamwe, barakeye cyane, bafite ibyishimo, nk'uko bigaragara ku maso yabo, bari guseka, bambaye impuzankano z'ubururu, higanjemo abakobwa n'abahungu.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bambaye impuzankano z'umukara, higanjemo urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu, mu nzu isize amabara y'umweru bicaye ku ntebe z'imituku.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, baracyeye cyane nk'uko bigaragara bafite ibyishimo ku maso habo bari guseka, higanjemo abagore n'abagabo ndetse n'urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze arakeye cyane, yambaye amadarubindi, ishati y'umuhondo n'umukara, ipantaro. Ni uko akikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Abana ni abana bakiri batoya ubona basa nk'abafite imirire mibi nubwo bari guseka ntabwo bambaye neza, ariko bafite ibyishimo birambuye bari ahantu huzuye ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abana benshi bari ahantu hamwe, barakeye cyane bafite ibyishimo ku maso habo, bari guseka, bambaye impuzankano z'ubururu, bakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga, n'amahumbezi.

Iyi n' inzu nziza kandi ndende iri hejuru isize amabara y'umuhondo impande zose amadirishya ni nzugi n'ubururu amabati n'umutuku ikikijwe ni ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Abana ni abantu benshi bari ahantu hamwe bicaye ku murongo ku ntebe z'imikara, bisa nkaho bari mu nama, higanjemo abagore n'abagabo bari mu nzu isize amabara y'umuhondo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bahagaze ku murongo, bisa nk'aho bari kwifotoza, higanjemo abagore ndetse n'abagabo. Inyuma yabo hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu nziza isize amabara y'umweru, impande zose hicayemo abantu bagera muri babiri b'abakobwa bari guseka, bafite ibyishimo, umwe yambaye ikanzu y'ubururu n'umweru.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bisa nkaho bari mu nama, bicaye ku murongo ku ntebe z'imikara, higanjemo abagore n'abagabo, bari mu nzu isizwe amabara y'umuhondo impande zose.

Uyu nigabo ubona usa nk'ukuze afite ibyishimo nk'uko bigaragara ku maso he ari guseka yambaye ishati y'ubururu ahantu hose, hirya gato hari abandi bantu bahagaze. Ndetse n'ibishushanyo by'ingagi.

Abana abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umuhondo, bicaye ku murongo ku ntebe z'ikigina bisa nkaho bari mu nama, higanjemo abagore n'abagabo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi buzuye ahantu hamwe barakeye cyane nk'uko bigaragara bari mu nzu isize amabara y'umweru, bicaye ku murongo, ku ntebe z'imituku higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bari ahantu hamwe, bisa nkaho bari kuganira, bose bambaye udupfukamunwa tw'ubururu, biganjemo abagore bakuze n'abakiri bato, bakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga.

Aba ni abagore batatu bari ahantu hamwe, bafite inkoni mu ntoki zabo. Umwe muri bo ateruye akana, ari kugaha ibere. Bakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu bagera kuri batanu bari ahantu hamwe bicaye ku murongo, bisa nkaho bari kuganira higanjemo abagore bane n'umugabo umwe, bakikijwe n'insina nyinshi n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu y'ibitaro yuzuyemo ibikoresho bigiye bitandukanye, isize amabara y'umweru ahantu hose yaba hejuru no ku mpande, urabona ko ari ibintu bikeye cyane.

Uyu ni umukobwa usa nk'aho akiri mutoya, arakeye cyane, nk'uko bigaragara hari agakoresho ari gushyira mu menyo ye y'umweru, bisa nk'aho ari kuyakorera isuku, ni ibintu byiza cyane.

Uyu ni umwana ukiri mutoya afite ibyishimo ku maso he ari guseka ari na ko akoza uburoso mu kanwa ke ku menyo, yambaye agapira k'umweru, agakanzu k'icyatsi, urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Iyi ni inzu y'ibitaro isize amabara y'umweru impande zose hasi no hejuru, huzuye ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Uyu ni umusore usa nkaho akiri mutoya, agasatsi ke karasokoje ndetse n'ubwanwa. Nuko afite ibyishimo ku maso he nkuko bigaragara, ari guseka amenyo ari kugaragara yambaye agashati k'ubururu.

Abana ni abana benshi bari ahantu hamwe bafite uburoso mu biganza byabo bari gukoresha amasuku ku menyo, bambaye impuzankano z'ubururu, uko ari bose, hirya gato hari ibiti by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bafite ibyishimo nk'uko bigaragara ku maso yabo bari guseka, bambaye impuzankano zitandukanye, yaba iz'umweru n'iz'icyatsi, bari mu nzu isize amabara y'umuhondo.

Uyu ni umusore usa nkaho akiri mutoya yicaye ku ntebe y'icyatsi yambaye itaburiya y'umweru bisa nkaho ari umuganga, ahantu ari huzuye ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu kuvura abantu.

Uyu ni umusore usa nkaho akiri muto ari ahantu h'amabara y'umuhondo, afite ibyishimo nk'uko bigaragara ari guseka amenyo akagaragara, yambaye umupira w'umweru.

Uyu ni umusore usa nk'aho akiri mutoya, agasatsi ke karasokoje, arakeye cyane ku maso, afite ibyishimo, ari guseka. Yambaye agapira k'umweru, yicaye ahantu mu bikoresho bigiye bitandukanye byo kwa muganga.

Uyu ni umusore usa nk'aho ukiri mutoya, afite ubwanwa bw'umukara nk'uko bigaragara mu maso he ari guseka arishimye cyane amenyo akagaragara, hari akadodo ari gucishamo.

Uyu ni umusore ubona usa nk'aho akiri mutoya umurebye ku maso he, afite ibyishimo kubera ko ari guseka, agasatsi ke karasokoje ndetse n'ubwanwa ni uko, yambaye ikote ry'ubururu umupira w'ikigina.

Uyu ni umusore usa nkaho akiri mutoya nk'uko bigaragara ku maso he, afite ibyishimo, ari guseka, amenyo akagaragara, agasatsi ke karasokoje, yambaye umupira w'icyatsi kibisi.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze afite ubwanwa bw'imikara yambaye agapira k'umweru, arishimye cyane nkuko bigaragara ku maso ye, ari guseka amenyo akagaragara hari akadodo ari gucishamo hagati.

Iyi ni inzu nini y'Ibitaro isize amabara y'umweru impande zose, hejuru no hasi huzuyemo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura abantu.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe, baracye cyane bafite ibyishimo nk'uko bigaragara ku maso habo, bari guseka, bambaye neza, bari mu nzu isize amabara y'umuhondo.

Iyi ni inzu y'Ibitaro isize amabara y'umweru impande zose ndetse hasi no hejuru huzuyemo ibikoresho byifashishwa kwa muganga bivura abantu mu buryo bwa rusange ndetse by'ikoranabuhanga.

Iyi ni inzu nziza y'ibitaro isize amabara y'umweru impande zose, hejuru no hasi huzuyemo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura abantu.

Aba ni abantu babiri bacyeye cyane nkuko bigaragara bari guseka bafite ibyishimo ku maso habo, amenyo bayagaragaje, bambaye imyenda y'umweru uko ari bose, higanjemo umugabo n'umugore.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze ahagaze ahantu hamwe hari ibyo afite mu biganza bye, ari kwireba imbere y'indorerwamo yambaye amadarubindi bisa nkaho akuze urebye ku musatsi we ni umweru.

Uyu ni umusore ubona usa nk'aho akiri mutoya w'ubwanwa bwinshi busokoje, afite ibyishimo umurebye ku maso he ari guseka amenyo akagaragara, yambaye amadarubindi n'agapira k'umweru.

Uyu ni umukobwa cyangwa se umugore usa nkaho akiri mutoya, imisatsi ye iramanuye nkuko bigaragara ari guseka, mu maso he amenyo yayagaragaje, hari icyo afite cy'umugozi, yambaye agasengeri k'umweru.

Uyu ni umusore usa nk'aho akiri mutoya, arakeye cyane, ubwanwa bwinshi bw'umukara, hari ibindi ari gushyira mu menyo ye, bisa nk'aho ari kuyakorera isuku, ni ibintu byiza cyane bifasha.

Aba ni abana benshi bari ahantu hamwe, barakeye cyane, bafite ibyishimo nk'uko bigaragara bari guseka, higanjemo n'abakuze, yaba abagore n'abagabo, bari mu nzu isize amabara y'umweru.

Uyu ni umukobwa ubona usa nk'aho akiri mutoya, afite ibyishimo bigaragara ku maso kubera ko ari guseka amenyo yagaragaye arakeye cyane, agasatsi ke karasokoje, urabona ko ari ibintu byiza.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, barakeye cyane, hari abambaye impuzankano z'umweru abandi ni ubururu, higanjemo abagore n'abagabo, bakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umusore usa nk'aho akiri mutoya nk'uko bigaragara afite imisatsi y'imikara igikoresho ari gukoresha mu menyo ye meza y'umweru ari guseka n'ibyishimo byinshi.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje, igizwe n'ibirahuri impande zayo ndetse hejuru hagasigwa ibara ry'icyatsi, ikikijwe n'ibiti bitanga akayaga n'amahumbezi kubari aho bose.

Aba ni abantu bagera kuri babiri bari ahantu hamwe baracyeye cyane bambaye udupfukamunwa n'imyambaro itandukanye mu mabara umugabo, ubururu ,umugore ikaba icyatsi.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe baracyeye cyane bari guseka nk'uko bigaragara ku maso yabo amenyo akagaragara, bisa nkaho bari kuganira bakikijwe n'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara atandukanye, yaba ay'umuhondo ndetse n'umweru hejuru, higanjemo abagore batatu basa nkabakuze bafite telefoni mu ntoki.

Aba ni abantu bagera kuri babiri bari ahantu hamwe, higanjemo umugore n'umugabo usa nk'ukuze wambaye umupira w'umweru, imbere yabo hari imbuto zigiye zitandukanye ndetse n'ibyo kunywa.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe, bisa nkaho hari umukino bari gukina ukinishwa amaboko, higanjemo umugore n'umugabo imisatsi yabo irasa umweru bisa nkaho bakuze.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, higanjemo abakuze, yaba abagore ndetse n'abagabo, bari mu biribwa bigiye bitandukanye nk'ibigori n'amasaka, urabona ko bitoshye cyane, bisa icyatsi kibisi.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe basa nk'abakuze nk'uko bigaragara, bafite ibyishimo ku maso habo, bari guseka bakora imyitozo ngororamubiri, bakikijwe n'ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe barakeye cyane, higanjemo umugore mukuru ndetse n'umukobwa usa nk'aho akiri mutoya, ni ibintu byiza bari guseka nk'uko bigaragara.

Aba ni abantu bagera kuri batatu, bari ahantu hamwe bafite ibyishimo ubarebye ku maso yabo bari guseka baracye cyane, bari mu nzu isize amabara y'umweru higanjemo abagore basa nk'abakuze ndetse n'umukobwa muto.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe, urabona ko bakeye cyane, higanjemo umusaza usa nkukuze yambaye agapira k'ubururu, ikabutura ni umukara, hari ibikoresho afasheho bimufasha kuba yakira vuba.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe bose basa nk'abakuze nk'uko bigaragara, umugabo afite ibyishimo bikomeye kubera ko ari guseka amenyo akagaragara, yambaye ishati y'umutuku.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe mu kibuga cy'umupira bari gukina umukino w'amaboko higanjemo umugabo mukuru ndetse n'akana gato urabona ko bishimye cyane ku maso yabo bari guseka.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe barakeye cyane, basa nk'abakuze nk'uko bigaragara ni umusaza ufite terefone mu ntoki ndetse n'umukecuru wambaye agapira k'ubururu n'urupapuro rw'umweru.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe, ubona basa nk'aho bari gukina barishimanye, umwe ni umwana undi ni umusaza ubona usa nk'ukuze, agasatsi ke karasokoje gasa umweru.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe barakeye cyane, higanjemo abagabo ndetse n'abagore, urabona ko ari ibintu bibereye ijisho, inyuma yabo hari igiti kirekire gitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu bari ahantu hamwe baracyeye cyane kandi bafite ibyishimo nk'uko bigaragara ku maso yabo bari guseka, hari umeze nk'umukecuru ukuze ufite imisatsi y'umweru n'undi w'umukobwa ukiri muto uri kumwitaho.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umweru, biganjemo igitsina gore, yaba ukuze wicaye mu ntebe ndetse n'usa nk'aho akiri mutoya umuhagaze hejuru. Bafite ibyishimo nk'uko bigaragara ku maso yabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bafite ibyishimo bikomeye ubarebye ku maso yabo bariguseka, barakora imyitozo ngororamubiri, hari ibyo bafite mu biganza byabo. Inyuma kandi hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba n'abantu babiri bari ahantu hamwe barakenye cyane bafite ibyishimo nkuko bigaragara ku maso habo, bari guseka umusaza wambaye umupira w'ubururu umukecuru wambaye uw'umutuku.

Aba ni abantu batatu bari ahantu hamwe bari kwita ku musaza usa nk'ukuze uko ari babiri, umusore wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu, hirya gato hari umukobwa nawe uhari.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe, biganjemo umukecuru ukuze cyane ndetse n'umugore usa nkaho akiri muto, wambaye impuzankano y'umutuku, bakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu bari ahantu hamwe, bagera muri batandatu, higanjemo abakecuru n'abasaza, abagore n'abagabo n'abana bato, umukobwa n'umuhungu, urabona ko bafite ibyishimo cyane, bari guseka nk'umuryango.

Aba ni abantu babiri bari kugendana, bari ahantu hamwe huzuye ubusitani bwiza butoshye, burimo indabo zigiye zitandukanye, yaba iz'icyatsi n'umuhondo n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe barakeye cyane, umwe muri bo ni umugabo ubona usa nk'ukuze, undi ni umukobwa ukiri muto wambaye imyenda y'ubururu uri kumwitaho.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, ihema risize amabara y'umweru hejuru, imbere gatoya hari abasaza bahahagaze babiri ubona bafite ibyishimo bambaye neza cyane.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe mu nzu nziza isize amabara atandukanye, yaba iry'umweru n'iry'umuhondo, yiganjemo umugore wambaye agapira k'ubururu ndetse n'umugabo uri kunywa amazi bose basa nk'abakuze.

Aba ni abantu bagera kuri babiri bari ahantu hamwe barakuze cyane, nk'uko bigaragara imisatsi yabaye umweru higanjemo umusaza wambaye ubururu n'umukecuru w'umutuku.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe, umwe ni umugabo, undi ni umukobwa usa nk'aho akiri muto, yambaye itaburiya y'umweru, ipantaro y'umukara, ari kwita kuri uwo nguwo ukuze.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe bafite ibyishimo bari guseka ubarebye ku maso yabo, higanjemo umukobwa wambaye impuzankano z'ubururu ndetse n'umusaza w'ishati y'umutuku.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umuhondo, ibirahure bibonerana, higanjemo abagore bakuze n'abagabo, nuko baraganira bicaye, urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Iyi ni inzu y'ibitaro isize amabara y'umweru impande zose huzuyemo ibikoresho byifashishwa mu kuvura abantu by'ikoranabuhanga ndetse hari n'umugabo ukuze uryamye ahongaho.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze, yambaye agapira k'umweru, ipantaro y'umukara, ari gukora imyitozo ngororamubiri, urabona ko ari ibintu byiza cyane bibereye ijisho kandi by'ingirakamaro.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umweru, barakeye cyane, higanjemo umukecuru usa nk'ukuze ndetse n'umwana w'umukobwa mutoya wambaye impuzankano z'icyatsi n'umweru.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe, mu nzu isize amabara y'umweru impande zose. Higanjemo umusaza ndetse n'umusore usa nkaho akiri muto wambaye itaburiya.

Aba ni abantu bagera kuri babiri bari ahantu hamwe barakeye cyane kandi bafite ibyishimo, umugabo uri kwarura mu isahani y'umweru yambaye ishati irimo imirongo y'umutuku.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, biganjemo abagore n'abagabo, mu ihema ry'umweru, bazengurutswe n'ibiti birebire by'icyatsi, bitanga umuyaga n'amahumbezi ku baherere aho ngaho bose.

Aba ni abantu batatu bari ahantu hamwe higanjemo umusaza mukuru ufite imvi z'umweru, bisa nk'aho hari ibyo bari kurya, hirya gato hari abana batoya bahicaye na bo bafite ibintu mu ntoki.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe mu nzu isizwe amabara y'umweru, barakeye cyane higanjemo umukobwa ukiri mutoya wambaye impuzankano z'umutuku uri kwita ku musaza ufite igikoresho kivura mu ntoki ze.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe, bisa nkaho bari gukora imyitozo ngororamubiri, biganjemo abagore bakeye cyane bambaye imyenda y'imikara irimo umweru, bakikijwe n'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe barakuze nk'uko bigaragara ku maso habo ni umugore ndetse n'umugabo, bakikijwe n'amabara y'umweru ku nkuta z'inzu barimo bafite impapuro mu biganza byabo.

Uyu ni umugore ubona usa nk'ukuze ari gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye hasi arakeyeye cyane yambaye agapira k'ubururu, ipantaro y'umukara, akikijwe n'intebe n'ibitanda byiza, inyuma ye hari igiti gitanga akayaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe barakeye cyane mu nzu nziza isize amabara y'umweru amatara agiye atandukanye na supanete, inyuma yayo hari ubusitani n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi, higanjemo umugabo ukuze n'umukobwa ukiri muto.

Aba ni abantu bagera kuri babiri bari ahantu hamwe, hari ibyo bafite by'umuhondo mu biganza byabo, bari mu nzu isize amabara y'umweru impande zose ni ibintu bibereye ijisho ry'ubireba.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'icyatsi bisa nkaho bari mu nama bicaye ku murongo ku ntebe z'imyeru, higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe baracyeye cyane, bicaye ku murongo ku ntebe z'imituku bisa nkaho bari mu nama yiganjemo abagore n'abagabo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu bagera kuri barindwi bari ahantu hamwe ku itapi y'icyatsi kibisi barakeyeye cyane bafite ibyishimo ku maso habo bari guseka, higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu bagera kuri batandatu, bari ahantu hamwe, babiri bambaye impuzankano z'umweru, n'abandi utujiri tw'icyatsi, hari uri hasi witabwaho, bakikijwe n'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba n'abantu benshi bari ahantu hamwe, baracyeye cyane bafite ibyishimo nkuko bigaragara ku maso habo, bari guseka hari abambaye impuzankano z'umweru ndetse n'izindi z'umukara.

Aba ni abantu benshi, bari ahantu hamwe, hari ibyo bafite mu biganza by'abo, hari abahagaze ndetse n'abicaye, baracyeye cyane, higanjemo abagore n'abagabo n'urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bicaye ku murongo ku ntebe z'imikara bisa nkaho bari mu nama, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umuhondo, bari ku murongo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, biganjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, imbere y'inzu isize amabara y'umweru, benshi baricaye abandi barahagaze, bambaye impuzankano zisa umutuku, higanjemo abakobwa n'abahungu.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe, barakeye cyane, bari guseka, bafite ibyishimo, inyuma yabo ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi, imbere kandi hari ibipapuro by'icyatsi n'ubururu bafite mu biganza.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bicaye ku murongo bambaye udupfukamunwa, uko ari bose bari kwitabwaho n'abaganga babishinzwe, urabona ko ari ibintu byiza cyane, bibereye ijisho ry'ubireba.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, baracyeye cyane bicaye ku murongo, bari mu nzu isize amabara y'umweru impande zose, higanjemo abagore n'abagabo, urabona ko ari ibintu byiza cyane bibereye ijisho ry'ubireba.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe, barakeye higanjemo umugabo ndetse n'umugore, hari ibyo bafite mu biganza byabo, byanditseho twisuzumishije igituntu kiravurwa kigakira, bari mu nzu isize amabara y'umuhondo.

Iyi ni inyubako nini y'ibitaro yuzuyemo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abaganga mu kuvura abantu mu buryo bwa rusange, isize amabara y'umweru ku mpande no hejuru.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije, igizwe n'ibirahure byinshi bibonerana by'umukara, ikaba ikikijwe n'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi, biri aho ngaho by'icyatsi.

Iyi ni inzu ndende y'ibitaro igizwe n'amabara y'umuhondo impande zose n'amagambo yandikishije umweru, imbere yayo hari ubusitani bwiza burimo indabo zigiye zitandukanye nk'iz'icyatsi.

Iyi ni inzu y'ibitaro irakeye cyane isize amabara y'umweru impande zose yaba no hejuru, huzuyemo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura.

Iyi n'Inzu nziza isize amabara y'umweru impande zose ,yaba hasi no hejuruba ikikijwe n'ibirahure by'umukara huzuyemo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa kwa muganga by'ikoranabuhanga.

Iyi ni inzu nziza cyane igerekeranyije yo mu bwoko bwa etaje, isize amabara y'umweru n'umukara, wanditsemo amagambo ibitaro bya Nyarugenge, imbere yayo hari ubusitani bwiza bw'icyatsi butoshye, butanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu nziza ikeye cyane, isize amabara y'umweru, yaba hasi, hejuru no ku mpande huzuyemo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa kwa muganga.

Iyi ni inzu nini y'ibitaro isize amabara y'umweru impande zose ndetse no hejuru, ikaba ifite amarido y'icyatsi, huzuyemo ibikoresho byinshi bitandukanye, byifashishwa mu kuvura abarwayi, yaba n'ibyo mu ikoranabuhanga.

Iyi ni inzu y'ibitaro isize amabara y'umweru hejuru no hasi ndetse n'umuhondo, yuzuyemo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije, isize amabara y'umweru n'umuhondo hagati, hirya gato hari umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo uhagazemo imodoka kandi ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Ubu ni ubusitani bwiza butoshye cyane burimo indabo zigiye zitandukanye, yaba iz'umuhondo ndetse n'iz'icyatsi, harimo n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bahagenda bose.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije, isize amabara y'umweru impande zose, ikaba ikikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu y'ibitaro nini isize amabara y'umweru impande zose amatara yaka mu buryo bugiye butandukanye, yuzuyemo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa kwa muganga.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igiye igerekeranyije, isize amabara agiye atandukanye, amabati ni ubururu ahandi ni umweru n'umuhondo, yanditseho amagambo ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi.

Uyu ni umukobwa ubona usa nkaho akiri mutoya arakeyeye cyane imisatsi ye iramanuye, yambaye impuzankano z'ubururu hasi no hejuru, hari uwo ari kwitaho uryamye ku gitanda cy'umweru mu nzu yuzuyemo ibikoresho byo kwa muganga.

Iyi ni inzu nini y'ibitaro, isize amabara y'umweru ku mpande no hejuru, huzuyemo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura abantu mu buryo bwa rusange.

Iyi ni inzu y'ibitaro yuzuyemo ibikoresho bigiye bitandukanye yaba nk'igitanda ibintu byose birakeye isize amabara y'umweru impande zose hasi no hejuru.

Izi ni inzu ndende zo mu bwoko bwa etaje zigerekeranyije zisize amabara agiye atandukanye, zikikijwe n'ubwatsi bwinshi bwiza butoshye butanga akayaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe barakeye cyane basa n'abakuze. Umwe muri bo yambaye itaburiya y'umweru ndetse undi n'ikanzu y'ubururu ateruye akana gato mu biganza bye.

Iyi ni inzu nziza isize amabara agiye atandukanye yaba ubururu bwijimye ndetse n'umweru, huzuyemo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa kwa muganga, urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze, yambaye ishati yubururu, ipantaro y'umukara, yicaye ahantu huzuye ubusitani bwinshi n'igiti kirekire kinini gitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bambaye impuzankano z'ubururu, biganjemo abaganga bari mu nzu isize amabara y'umweru, irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, byifashishwa mu kuvura.

Aya ni amazu meza kandi manini, inyubako z'ibitaro zisize amabara y'umweru, harakamo amatara agiye atandukanye, zikikijwe n'ibiti n'ubusitani bwiza, byose bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu batatu bari ahantu hamwe, abakuru babiri n'umwana umwe uri kwitabwaho n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, bari mu nzu yuzuyemo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura.

Iyi ni inzu nziza isize amabara atandukanye, ni iy'ibitaro harimo umweru, ku mpande no hejuru, hirya gato ni ubururu, yuzuyemo ibikoresho byinshi nk'ibitanda n'ibindi by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu kuvura abantu.

Aba ni abantu benshi bari kugenda ahantu hamwe, higanjemo abakobwa ndetse n'abahungu, yaba abakuze n'urubyiruko, hirya yabo hari ubusitani bwiza bw'icyatsi burimo ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi, hari n'icyapa cyanditseho ibitaro bya Ruhengeri.

Iyi ni inzu nini y'ibitaro yuzuyemo ibitanda byinshi by'icyatsi ndetse n'amarido y'ubururu, isize amabara y'umweru yaba impande zose hejuru no hasi.

Iyi ni inzu nini kandi ndende yo mu bitaro isize amabara y'umweru impande zose, amarido akaba ubururu, huzuyemo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga nk'ibitanda.

Iyi ni inzu nini y'ibitaro isize amabara y'umweru ndetse n'umuhondo, ikikijwe n'ubusitani bwiza burimo indabo zitandukanye, yaba iz'icyatsi ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu nini isize amabara y'umweru, uko bigaragara isa nk'aho ari ibitaro, bitewe n'amagambo ayobora agiye ariho, ni ahantu heza cyane habereye ijisho.

Iyi ni inzu y'ibitaro isize amabara y'umweru impande zose ndetse n'umuhondo hejuru yuzuyemo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu kuvura abantu.

Iyi ni inzu nini nk'uko bigaragara bisa nkaho ari kwa muganga. Imbere yayo hari abantu bahicaye isize amabara y'umweru, n'umuhondo. Hirya gato hari ubusitani burimo indabo zitandukanye.

Iyi ni inzu nini nziza cyane, nk'uko bigaragara isize amabara y'umweru impande zose, mo imbere huzuyemo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa kwa muganga, by'ikoranabuhanga.

Iyi ni inzu nini nk'uko bigaragara yanditseho ikigo nderabuzima cya Tabagwe, imbere yayo hari ubusitani bwiza burimo indabo zigiye zitandukanye, yaba iz'icyatsi n'iz'umuhondo byose bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Abana ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bisa nk'aho ari inzu y'ibitaro, isize amabara y'umweru ku mpande ndetse no hejuru harimo ibitanda byinshi bigiye bitandukanye.

Iyi ni inzu y'ibitaro nk'uko bigaragara isize amabara y'umweru hejuru no hasi, huzuyemo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu kuvura abantu mu buryo bwa rusange.

Iyi ni inzu nziza y'ibitaro irimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura abarwayi, isize amabara menshi atandukanye yaba umweru, ubururu n'umukara.

Iyi ni inzu nziza y'ibitaro, isize amabara y'umweru ku mpande ndetse no hejuru, hasi ikaba ari ubururu, huzuyemo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu kuvura abantu.

Uyu ni umuhanda w'igitaka, harimo icyapa cyanditseho ibitaro bya Kabgayi, gikikijwe n'ibiti byinshi birebire bitoshye bitanga umuyaga n'amahumbezi kubagenda aho ngaho bose.

Iyi ni inzu nziza y'ibitaro isize amabara y'umweru yaba hejuru ndetse no hasi no ku mpande niko bimeze huzuyemo intebe nyinshi abantu bicaraho iyo baje kwivuza .

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe basa nk'abakuze, higanjemo abagabo gusa umwe bari kumwitaho bamwambitse ikintu ku kuboko, inyuma ye hari icyapa cy'umweru cyanditseho Irembo.

Iyi ni inzu y'ibitaro nini, isize amabara y'umweru hasi no hejuru ndetse no ku mpande, huzuyemo ibikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu kuvura abantu mu buryo bwa rusange.

Iyi ni inzu nini isizwe amabara y'umweru impande zose ndetse no hejuru huzuyemo abantu benshi biganjemo abagore n'abagabo bari ku murongo w'imbere yabo hateretse intebe z'imikara.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, baracyeye cyane higanjemo abagore n'abagabo, ubona ko bahagaze ku murongo bari kuganira ibintu bigaragara neza bibereye ijisho ry' bireba.

Iyi ni inzu ndende kandi nini yo mu bwoko bwa etaje, igerekeranije, isize amabara y'umweru n'umuhondo, ikikijwe n'ubusitani bwiza, butoshye bw'icyatsi butanga umuyaga n'amahumbezi.

Izi ni inzu nziza kandi nyinshi ziri ahantu hamwe, zirakeye cyane zisize amabara y'umweru impande zose, amabati agasa umutuku, imbere yazo hari ubusitani bwiza butoshye burimo indabo zitandukanye.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranije isize amabara yu'mweru impande zose ikaba ifite amabati y'ubururu imbere yanditseho ikigo nderabuzima cya Kanyinya gikikijwe n'ubusitani bwiza butoshye bwicyatsi.

Iyi ni inzu nziza, igizwe n'amabara y'umweru impande zose zayo, yuzuyemo ibikoresho bigiye bitandukanye, yaba intebe zo kwicaraho, ndetse n'imeza, iteretseho murandasi.

lyi ni inzu nini yuzuyemo ibikoresho bigiye bitandukanye by'amaso nk'amadarubindi, isize amabara y'umweru umutuku ku mpande ndetse n'umuhondo, urabona ko ari ibintu byiza cyane bibereye ijisho.

Iyi ni inzu nziza kandi nini igizwe n'amabara y'umweru handitsemo amagambo y'umukara, avuga ikigo nderabuzima cya Rwerere, ikikijwe n'ibirabo byinshi by'umuhondo bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu y'ibitaro isize amabara y'umweru impande zose yaba hasi no hejuru, huzuyemo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura abantu mu buryo bwa rusange.

Aya ni amazu menshi kandi manini y'ibitaro, asize amabara agiye atandukanye yaba umweru n'umuhondo, akikijwe n'ubusitani bwiza burimo ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu y'ibitaro isize amabara y'umweru impande zose ndetse no hejuru, huzuyemo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashisha kwa muganga yaba n'ibitanda.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje, igerekeranyije, isizwe amabara y'ikigina bisa nkaho ari ibitaro bitewe n'amagambo yanditseho hejuru mu ibara ry'icyatsi, ikikijwe n'igiti gitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu y'ibitaro isize amabara y'umweru, hejuru no ku mpande ndetse no hasi, huzuye ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa kwa muganga, hari n'umugabo uryamye ku gitanda kiri aho.

Ibitaro bisizwe amabara menshi harimo nk'umuhondo umweru ndetse n'ubururu, huzuyemo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa kwa muganga.

Iyi ni inzu nini yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije, isize amabara y'umweru ibirahure by'umukara, imbere yayo ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu nziza yo kwa muganga isize amabara y'imyeru n'imihondo agiye atandukanye harimo kandi ibikoresho byinshi byifashishwa mu kuvura abantu mu buryo bwa rusange.

Iyi ni inzu nini kandi nziza y'ibitaro isize amabara atandukanye yaba umweru n'umukara, imbere yayo harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa kwa muganga by'ikoranabuhanga.

Iyi ni inzu nziza igerekeranije yo mu bwoko bwa etaje, isize amabara y'umweru n'umukara, imbere yayo ubusitani bwiza, burimo indabo zigiye zitandukanye, yaba iz'icyatsi n'umutuku.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, hahagazemo ikinyabiziga cy'imodoka, hirya gato hari inzu ya etaje igerekeranyije, isize ubururu.

Iyi ni inzu y'ibitaro isize amabara y'umweru, hejuru huzuyemo abantu benshi bambaye impuzankano, amarido amanitse ni ubururu ndetse n'ibikoresho byifashishwa kwa muganga.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije, ikikijwe n'ubusitani bwiza bw'icyatsi butoshye, ndetse n'ibiti binini bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bari kuhagenda bose.

Iyi ni inzu nziza ikeye cyane, isize amabara y'umweru impande zose ndetse no hejuru hari amatara yaka neza, huzuyemo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa kwa muganga byose by'ikoranabuhanga.

Iyi ni inzu nini y'ibitaro, nk'uko bigaragara irakeye cyane, igizwe n'amabara agiye atandukanye, yaba umweru hasi no hejuru, ku mpande hakaba icyatsi, huzuyemo ibikoresho byinshi byo kwa muganga.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, baracye cyane kandi bafite ibyishimo ubarebye mu maso yabo bari guseka higanjemo abagore n'abagabo bari imbere y'inzu ndende yanditseho ibitaro bya rwamagana.

Iyi ni inzu nini isize amabara y'umweru yaba impande zose, hejuru no hasi huzuyemo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga byifashishwa mu bijyanye n'ubuvuzi.

Aba ni abantu bagera muri babiri bari ahantu hamwe barakeye cyane, higanjemo umugore usa nk'ukuze ndetse n'umugabo umwicaye iruhande wambaye imyenda y'ubururu hasi no hejuru.

Iyi ni inzu y'ibitaro isize amabara y'umweru impande zose ndetse no hejuru huzuyemo, ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa kwa muganga.

Iyi ni inzu igizwe n'amabara y'umweru, impande zose yaba hejuru no hasi huzuyemo ibikoresho byifashishwa kwa muganga, urabona ko ari ibintu byiza by'ikoranabuhanga.

Aba ni abantu babiri, bari ahantu hamwe, bicaye barebana, umwe muri bo ni umuganga, yambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'ubururu, ari kwita ku mwana waje kwivuza.

Iyi ni inzu nini isize amabara y'umweru impande zose, huzuyemo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu kuvura abantu mu buryo bwa rusange, iracyeye cyane.

Iyi ni inzu isize amabara y'umweru impande zose yaba hejuru no hasi iracyeye cyane, yuzuyemo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa kwa muganga.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranije, isize amabara y'umweru n'ibirahure bibonerana by'umukara, ikikijwe n'ubusitani bwiza n'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inyubako nini kandi nziza, isize amabara y'umweru impande zose, yanditseho inzu y'ababyeyi, ifite amabati y'ubururu, ikikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bisa nkaho ari ababyeyi bateruye abana babo, hari akandi kana gatoya kari mu munzani bari gupima ibiro byako, urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Iyi ni inzu nini kandi ikeye isize amabara agiye atandukanye, yaba umweru hejuru ndetse no ku mpande ni umutuku, huzuyemo ibikoresho byinshi bitandukanye bya siporo.

Izi ni inzu ndende zo mu bwoko bwa etaje zigerekeranyije zisize amabara agiye atandukanye yaba ay'umukara ndetse n'umweru, huzuyemo abantu benshi zikikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu nini kandi nziza isize amabara y'umuhondo impande zose, imbere yayo hari ubusitani bwinshi buteyemo indabo zitandukanye yaba iz'umutuku n'izicyatsi, hari n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije, isize amabara y'umuhondo, bisa nk'aho ari ivuriro, ikikijwe n'ubusitani bwiza bw'icyatsi, butanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu nziza cyane y'ibitaro isize amabara agiye atandukanye huzuyemo ibikoresho byifashishwa kwa muganga yaba iby'ikoranabuhanga n'ibisanzwe, ni ibintu bigaragara neza cyane.

Ibi ni ibikoresho byinshi biri ahantu hamwe by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu kuvura abantu kwa muganga ndetse biri mu nzu isize amabara y'umweru impande zose, yaba hejuru no hasi.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranije, isize amabara y'umuhondo impande zose ndetse n'umweru n'icyapa kiri hagati cyanditseho inzu y'ababyeyi n'impinja.

Iyi ni inzu nziza y'ibitaro, yuzuyemo ibikoresho byinshi byifashishwa mu kuvura abantu mu buryo bwa rusange, isize amabara y'umweru hasi no hejuru, harimo abantu batandukanye abagore n'abagabo.

Iyi ni inzu nziza y'ibitaro isize amabara agiye atandukanye, yaba umweru ndetse n'umuhondo wuzuyemo ibikoresho ndetse n'imiti myinshi igiye itandukanye, yifashishwa mu kuvura abarwayi.

Iyi ni inzu nziza kandi nini yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije, isize amabara atandukanye, yaba umweru n'ubururu, hagati handitsemo amagambo ibitaro bya Nyarugenge, imbere yayo hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu nini cyane igizwe n'amabara y'umweru impande zose, ibipirizo harimo n'iby'ubururu, urabona ko bisa nk'aho ari mu bitaro, ni ahantu heza cyane, habereye ijisho.

Inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije, ni iy'ibitaro nkuko bigaragara ku magambo yanditse hejuru y'umweru n'icyatsi, akikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije isize amabara y'umuhondo ndetse n'amabati y'umutuku, ikikijwe n'ubusitani bwiza bw'icyatsi butoshye buhari.

Iyi ni inzu ndende kandi nini igizwe n'amabara y'umweru yaba ku mpande zose, hejuru no hasi huzuyemo ibikoresho bigiye bitandukanye byo kwa muganga by'ikoranabuhanga.

Uyu ni umusore usa nkaho akiri mutoya, yambaye itaburiya y'umweru, ari kwita ku bikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu kuvura abantu mu buryo bwa rusange byose bifite amabara meza.

Aba ni abantu batatu bari ahantu hamwe, akana kambaye ikote ry'umukara, agashati k'umweru kariho gasunika umusaza wicaye mu kagare kamujyana mu ihema riri aho ngaho.

Aya ni amazu maremare yo mu bwoko bwa etaje agerekeranyije, asize amabara agiye atandukanye, akikijwe n'ubusitani n'ibiti birebire by'icyatsi bitoshye bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu ndende yo mu bwoko bwa etage igerekeranyije, isize amabara y'umuhondo impande zose, ikikijwe n'ubusitani bwiza n'ibiti birebire bitanga akayaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu y'ibitaro isize amabara y'umweru impande zose ndetse no hasi no hejuru huzuyemo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu kuvura abantu mu buryo bwa rusange.

Iyi ni inzu nini kandi ndende nziza igizwe n'amabara agiye atandukanye yaba umuhondo n'umweru akikijwe n'ibirahure bibonerana hasi gato hari ubusitani bwiza bw'icyatsi butanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu ndende igerekeranyijemo kabiri, isize amabara y'ubururu, ni yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije, bisa nkaho ari ibitaro kuko mo imbere huzuyemo abantu bambaye amataburiya y'umweru.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bari ahantu hamwe bafite ibyishimo nk'uko bigaragara ku maso yabo, bari guseka, bari mu nzu isize amabara y'umweru higanjemo abagore babiri ndetse n'akana gato.

Uyu ni umukobwa usa nkaho akiri mutoya aryamye ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye isengeri y'umukara hejuru ndetse na kora nuko nguko ari mu nzu isize amabara y'umweru.

Ibi ni ibyo kurya bigiye bitandukanye, harimo nk'amashu, amaronji, karoti ndetse na pome, hirya gato hari umusore usa nkaho ukiri mutoya ari gukora imyitozo ngororamubiri yo kwiruka.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umuhondo, higanjemo urubyiruko rw'abakobwa ndetse n'abahungu, hari abahagaze n'abicaye bari kwigirwaho ibijyanye n'ubuganga.

Uyu ni umukobwa usa nk'aho akiri mutoya, ari mu myitozo ngororamubiri arakeyeye cyane, yambaye agasengeri k'umweru, kora y'ubururu, iruhande rwe hari igiti gitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iki ni ikirahure kiri gusukwamo amazi meza cyane, nk'uko bigaragara abereye ijisho ry'ubireba, hejuru yacyo hari ijage ifashwe n'ikiganza, ariho ari guturuka.

Uyu ni umusore usa nkaho akiri mutoya, imisatsi ye irasokoje, yambaye umupira w'umukara, ateruye agacupa mu ntoki kuzuyemo amazi, yagashyize ku munwa ari kuyanywa.

Uyu ni umusore usa nk'aho akiri muto, urangije gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agaseri k'umweru, agasatsi ke karasokoje, afite agacupa k'amazi ku munwa, ari kuyanywa.

Uyu n'umukobwa ubona usa nkaho akiri mutoya, arakeye cyane, yambaye imyenda yo gukorana imyitozo yaba hejuru yo hasi n'umukara, ikindi gikoresho afite ukuboko ke ateruye amazi yo kunywa.

Uyu ni umukobwa ubona usa nkaho akiri muto, yicaye ku itapi y'umukara nk'uko bigaragara ari gukora imyitozo ngororamubiri, imbere ye yateretse mudasobwa n'agacupa k'amazi yo kunywa.

Uyu ni umukobwa ubona usa nkaho akiri mutoya arimo akora imyitozo ngororamubiri, imisatsi ye ni myinshi kandi iramanuye yambaye agasengeri k'icyatsi na kora y'umweru.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe batagaragara mu maso, bisa nk'aho bari gukora imyitozo ngororamubiri, ni umukobwa n'umuhungu, urabona ko bakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga, mu biganza byabo bafite uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe, mu nzu isize amabara y'umweru impande zose, muri bo hari uwicaye ku ntebe y'ubururu, amanitse akaguru gafashwe n'ibyuma byo kwa muganga by'ikoranabuhanga.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umweru, imbere yabo hari ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa kwa muganga, higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Uyu ni umusore usa nkaho akiri mutoya, ari gukora imyitozo ngororamubiri mu nzu nziza cyane isize amabara y'umweru itapi nicyatsi, hirya gato hari indabo n'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umusore usa nk'aho akiri mutoya, ari gukora imyitozo ngororamubiri, ahagaze ku itapi y'icyatsi, mu nzu isize amabara y'umweru, yambaye agapira k'umukara, ikabutura y'ubururu, ubona ko ari ibintu byiza cyane.

Uyu ni umusore ukiri muto bisa nkaho arigukora imyitozo ngororamubiri, yambaye umupira w'umweru agakabutura k'umukara. Iruhande rwe hari amazi menshi. Ni ibintu byiza binogeye ijisho.

Aba ni abantu batatu bari ahantu hamwe, baracyeye cyane, babiri muri bo bafite umuntu mu biganza byabo, bari mu busitani bwiza bw'icyatsi umwe yambaye umupira w'umukara n'ipantaro ni uko.

Uyu ni umukobwa ubona asa nkaho akiri muto, yicaye mu byatsi bitoshye cyane bitanga umuyaga n'amahumbezi, ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agasengeri k'umutuku, ikabutura y'ubururu.

Uyu ni umukobwa ubona ukeye cyane, bisa nkaho akiri muto, nk'uko bigaragara agasatsi ke karasokoje, afite agasume k'umweru ku rutugu rwe, yambaye isengeri irimo icyatsi ndetse n'ubururu, hari icyo afite ku munwa.

Uyu ni umukobwa usa nkaho akiri mutoya arimo akora imyitozo ngororamubiri mu nzu isize amabara y'umweru, yambaye agasengeri ndetse na kora by'umukara.

Uyu ni umusore ubona usa nkaho akiri mutoya ubwanwa burasokoje arakeye cyane, yambaye agapira k'ubururu, isaha y’umukara, afite agacupa k'amazi mu kiganza ari kuyanywa.

Uyu ni umukobwa ubona usa nkaho akiri mutoya, ari gukora igikorwa cy'ubuvuzi, yambaye umupira w'umukara, igikapu ku mugongo, ndetse n'agapfukamunwa, ni ibintu bibereye ijisho ry'ubireba.

Izi ni intungamubiri zigiye zitandukanye yaba nka pome, amaronji ndetse n'amazi yo kunywa, ni ibintu bishobora kugufasha igihe ufite ikibazo ukabikoresha bikaba byakugarurira ubuzima.

Aba ni abantu bagera kuri barindwi, bari ahantu hamwe, baracyeye cyane, abenshi muri bo, bambaye amataburiya y'umweru, bafite ikaramu n'impapuro bari kwandika, imbere yabo, hari igikoresho cyifashishwa kwa muganga cy'ikoranabuhanga.

Uyu ni umusore usa nk'aho akiri mutoya. Arakeye cyane, yambaye imikara ahantu hose ndetse n'isaha y'icyatsi, afite agacupa k'amazi mu biganza bye, yicaye hasi.

Iyi ni inzu y'ibitaro isize amabara y'umweru impande zose yaba hasi no hejuru, huzuyemo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa kwa muganga.

Uyu ni umukobwa ubona usa nk'aho akiri muto, yambaye agasengeri k'umukara, ipantaro irimo utweru imbere ye hateretse murandasi cyangwa se mudasobwa, hirya gato ni agacupa k'amazi yo kunywa.

Uyu ni umusore usa nk'aho akiri mutoya, arakeye cyane umurebye ku isura ye, hari ibyo afite mu biganza nk'amazi ari kunywa animenaho, yambaye agapira k'umukara. Ni ibintu bibereye ijisho.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo iyo ariyo yose y'ingorororamubiri, yaba gukina umukino w'amaboko ndetse n'uw'amaguru, ibi ni ibintu byiza cyane bishobora kuba byagukiza indwara waba urwaye.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze, ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye umupira w'ikigina, ikabutura y'umukara, ari mu nzu isize amabara y'umweru, yuzuyemo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura abantu.

Ibi ni ibyo kurya bitandukanye by'intungamubiri bishobora kugufasha igihe urwaye kuba wabirya ukoroherwa, harimo nk'amagi, imineke, inyama, ibitunguru n'ibindi, urabona ko bibereye ijisho.

Uyu ni umusore usa nkaho akiri mutoya nk'uko bigaragara yicaye mu byatsi bw'icyatsi kibisi butoshye, ari gukora imyitozo ngororamubiri yambaye isengeri y'umukara.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe, umwe yegamye ku wundi, yiganjemo umugore n'umugabo, urabona ko ari ibintu byiza cyane, bose bashyize uducupa tw'amazi ku munwa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, mu nzu isize amabara y'umuhondo, bambaye impuzankano z'ubururu bisa nk'aho ari abaganga kubera ibikoresho bafite mu biganza byabo.

Uyu ni umukobwa usa nk'aho akiri mutoya, afite imisatsi myinshi, iramanuye, y'umukara, yambaye agapira k'umutuku, bisa nk'aho hari icupa ry'amazi ari gushyira ku munwa, akayanywa.

Aya ni amazi meza cyane ari gusukwa mu kirahure aturuka mu ijage rifashwe n'ikiganza, ni meza ku buryo butangaje, ushobora kuyakoresha waba urwaye akaba yagukiza.

Ibi ni ibyo kurya bigiye bitandukanye, ndetse n'ibyo kunywa byose ni intungamubiri, bifasha umuntu yaba inyama, indimu, ibitunguru, inkeri, ndetse n'amazi, ni ibintu byiza cyane ku muntu.

Aba ni abantu bagera kuri babiri bateruye undi mu biganza byabo, bisa nkaho yavunitse bambaye utwenda tw'umutuku n'umweru aho bari bakikijwe n'ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze, arakeye cyane, yicaye ku ntebe y’umweru, yambaye ishati isa umutuku. Imbere ye hateretse ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa.

Aba ni abantu benshi, bari ahantu hamwe, barakeye cyane, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bari mu nzu isize amabara y'umweru hejuru, hasi kandi hari n'uryamye ku buriri.

Uyu ni umukobwa ubona usa nk'aho akiri muto, yicaye hasi ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agasengeri k'umukara na kora ni uko, inkweto ni umweru, hirya gato hateretse agacupa k'amazi yo kunywa.

Iki ni igikapu cyabugenewe gitwarwamo imiti myinshi cyane gisize amabara agiye atandukanye, yaba ay'umutuku n'umukara, ni ibintu byiza cyane binogeye ijisho bifasha ubikoresha.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande, hagati haragendamo ikinyabiziga gitwara abarwayi, hirya gato hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umukobwa usa nk'aho akiri mutoya, agasatsi ke karasokoje, afite agacupa k'amazi ku munwa, yambaye agasengeri k'ubururu n'icyatsi ndetse n'agasume k'umweru kari ku bitugu bye.

Uyu ni umusore usa nkaho akiri muto, agasatsi ke karasokoje, aranywa amazi ari mu gacupa, atereye terefone mu biganza bye, yambaye umupira w'ubururu, ipantaro y'umukara, arabona ko ari ibintu byiza cyane.

Ibi ni ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gutunga umubiri w'umuntu, yaba ari muzima cyangwa se arwaye mu gihe ashaka gukomera, harimo nk'imboga, pome n'amaronji.

Izi ni indabo zigiye zitandukanye, yaba ku mabara, harimo iz'umuhondo n'iz'umutuku n'iz'icyatsi kibisi, zifashishwa mu kuvura indwara izo arizo zose, mu buryo bwa gakondo.

Uru ni ururabo rwiza rwererana rurasa umweru rarakeye cyane, rwifashishwa mu kuvura mu buryo bwa gakondo abarwayi, rukaba rukikijwe n'ibyatsi n'ibiti bitanga umuyaga.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bose bahetse ibikapu, barakeye cyane, imbere yabo hari amazi menshi ari kuhamanuka, akikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Izi ni indabo zigiye zitandukanye ziri mu ishyamba ry'icyatsi, ryuzuyemo ibiti byinshi birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bari aho ngaho bose zikaba zinafatwa nk'imiti gakondo.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze, umurebye ku maso he arishimye, yambaye umupira w'umweru, urimo uturongo tw'umukara, akikijwe n'ibiti byinshi n'indabo zigiye zitandukanye, bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Ubu ni ubusitani bwiza burimo indabo zigiye zitandukanye, yaba iz'umuhondo n'iz'icyatsi. Hari n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bagera aho ngaho bose.

Ubu ni ubwoko bw'imiti igiye itandukanye ya gakondo ushobora kwifashisha igihe wagize ikibazo runaka, ukaba wayikoresha ikakikurinda harimo nk'inanasi, imineke, n'ibindi.

Uyu ni umuti wa gakondo uteretswe mu kirahure gipfundikiye gifite amabara y'icyatsi, ukorwa mu biti bya kera by'amababi byitwa umuravumba uvura ibintu byinshi bitandukanye.

Aba ni abantu bagera kuri babiri bari ahantu hamwe baracyeye cyane, bambaye mu buryo butandukanye, umugabo ni umutuku ndetse n'imikara, umugore akaba umweru n'ubururu, imbere yabo hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe higanjemo abagore n'abagabo bambaye impuzankano z'icyatsi, bakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bari aho ngaho bose.

Ibu ni ubusitani bwiza butoshye bw'icyatsi kibisi bwuzuyemo ibimera byinshi byifashishwa mu kuvura abarwayi mu buryo bwa gakondo, bifite amabara agiye atandukanye umuhondo umutuku ndetse n'umweru.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, imbere y'ibinyabiziga bihinga huzuye ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi, higanjemo abagore n'abagabo.